Muri gahunda za Leta harimo no gushyiraho amarerero afasha abana bakiri batoya bari munsi y'imyaka itanu. Kuko wasangaga ababyeyi bibagora gukora imirimo itandukanye yo mu rugo bari kumwe n'abana. Bityo Leta ishyiraho iyi gahunda kugira ngo aba bana bajye bajyanwa ku marerero bafashwe kwidagadura ari nako bahura na bagenzi babo. Bityo bikabafasha gukura mu mutwe.

Itsinda ry'abantu biganjemo abana bambaye impuzankano ndetse n'ababyeyi bakuru. Bafatanye mu biganza bakoze uruziga, aho barimo barakina imikino itandukanye ibafasha kwaguka mu mutwe.

Iri ni irerero rijyanwamo abana bakiri batoya cyane kugira ngo batinyuke bakinana na bagenzi babo kandi bakure no mu mutwe, hano hari abana bazengurutse bicaye ku mukeka, hagati yabo harimo umukecuru uri kubafasha gukina imikino itandukanye.

Iri ni irerero rizanwamo abana bari munsi y'imyaka itanu kugira ngo batinyuke baganire na bagenzi babo bakina imikino itandukanye ibafasha kwaguka mu mutwe, bahawe amata yo kunywa aho bicaye ku mukeka, uri kubitaho yambaye itaburiya y'ubururu.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bicaye mu ntebe hagati yabo hari ameza, bategereje umwarimu kugira ngo aze abahe amasomo.

Amarerero y'abana b'inshuke ni ingirakamaro hano mu Rwanda kuko atuma abana batinyuka bakiri batoya bitewe n'uko basabana n'abandi bari mu rungano, bigatuma baguka mu mutwe bityo bikabafasha gukura neza.

Amashuri y'incuke yagize umumaro, kuko afasha ababyeyi gukora imirimo yabo biboroheye, bitandukanye n'uko byabaga bimeze, wasangaga umuhinzi ahinga ari kumwe n'umwana we, bikamuvuna cyane.

Leta yashyizeho amashuri y'inshuke, yifashishwa mu kurera abana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu, ibi bifasha ababyeyi babo kwigira mu mirimo itandukanye bizeye neza ko abana babo bari ahantu hatekanye.

Inyubako ntoya yubakishije amatafari ahiye, ifite urugi ndetse n'idirishya ry'umutuku, ikindi ifite amabati na yo y'umutuku, inyuma yayo hari ishyamba naho imbere yayo hari ubusitani.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bateruye ibiryo mu ibasi, ubona ko bagiye kurya. Ni gahunda yashyizweho na leta yo kugaburira abana saa sita ku ishuri, batiriwe batangaha ngo bajye mu rugo.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri barimo barerekeza ku kigo aho bigira, bari guca mu muhanda w'igitaka werekeza ku kigo cyabo, hakurya kandi hari amashyamba ndetse n'ipoto y'amashanyarazi.

Itsinda ry'abana bishimye bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara rya kake ndetse n'iry'ubururu, ubona ko bicaye aho barimo basubiramo amasomo mwarimu yabahaye kugira ngo naramuka agarutse akabaha umukoro bawukore neza.

Kugaburira abana ku ishuri, ni imwe muri gahunda Leta yashyizeho ifasha abana rwose mu buryo bugaragara kubera ko bibarinda gusiragira bava ku ishuri bajya mu rugo kurya bakanagaruka, bityo ugasanga ntibiga neza bitewe n'urugendo.

Iki gikuta giteye irangi ry'umweru, gishushanyijeho abana bambaye imyenda ya kake ,barimo barakina umupira, imbere y'icyo gikuta hari ubusitani bw'ibyatsi bya pasiparumu.

Umwana w'umunyeshuri wicaye, arimo arasubiramo amasomo aba yahawe na mwarimu kugira ngo nibaramuka bamuhaye umukoro cyangwa se isuzumabumenyi arikore neza.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye bari gufata ifoto aho bari kumwe n'abayobozi babasuye, bari baje kubaganiriza babagira inama z'uko bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Intebe yo mu ishuri irimo amasahane ndetse n'ibikombe, ibi ngibi biri hano bitewe n'uko Leta yashyizeho gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri, batiriwe basubira mu rugo saa sita ngo bajye kurya ubundi bagaruke ku ishuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabo iri mu ibara ry'ubururu ndetse na kaki. Bicaye mu ishuri mu ntebe aho bakurikiye amasomo bari guhabwa n'umwarimu bityo kugira ngo bagure ubwenge bwabo.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu ndetse na kaki, bari mu cyumba cy'ishuri aho bigira, harimo kandi intebe bicaraho biga, ikibaho cy'umukara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Igikuta giteye irange ry'umweru, gishushanyijeho abana bicaye mu ishuri bakurikiye amasomo bari guhabwa n'umwarimu uhagaze imbere yabo wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ijipo y'ubururu, imbere ku kibaho handitseho ijambo mu ibara ry'umweru.

Inyubako ziteganye z'amashuri zubakishije amatafari ahiye, inzugi zazo ziteye irange ry'umuhondo kandi izo nyubako hagati yazo harimo ubusitani bugizwe n'ibyatsi bya pasiparuma.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu, aho barimo barakina baruhura mu mutwe, nyuma y'amasomo baba bamaze guhabwa. Ibi bituma baruhuka, bagasubira mu ishuri bameze neza.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye kiriho ikibaho gisa umukara, icyo kibaho kiriho amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko hano ari mu ishuri.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri barimo baridagadura, aho baba bahawe umwanya ngo bakine baruhuka mu mutwe nyuma yuko bize amasomo menshi bataruhuka.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara rya kake n'iry'ubururu, bari mu kibuga aho bari gukina imikino itandukanye ibafasha kuruhuka mu mutwe nyuma y'amasomo baba bamaze kwiga, amashuri bigiramo asakaje amategura.

Leta yihaye gahunda yo kujya igaburira abana saa sita. Aho kugira ngo batahe bajya mu rugo kuko byabavunaga bigatuma batanga neza bitewe n'uko bagarukaga bananiwe bityo ntibakurikire amasomo ya nyuma ya saa sita.

Ururimi rw'amarenga, na rwo ni rumwe mu rurimi rwiza cyane kandi rukunze gukoreshwa n'abantu benshi, iyo uruzi usanga rukugirira akamaro kuko usanga urukoresha usobanurira abandi.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe abanyeshuri bicaraho, imbere ku gikuta hariyo urubaho rw'umukara bandikaho bakoresheje ingwa. Ni byiza rero ko abanyeshuri bicara ahantu heza kandi hasukuye.

Ikigega gifite ibara ry'umukara cyifashishwa mu gufata amazi y'imvura, ibi rero ni ingirakamaro cyane kuko iyo udafashe amazi y'imvura ashobora gusenya kandi nayo aba ari ingenzi kuko ashobora gukoreshwa mu gihe cy'impeshyi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake, aho barimo barakina bidagadura nyuma y'uko bahawe ikiruhuko, bamaze kwiga amasomo atandukanye.

Ni byiza ko umwarimu asobanukirwa, uburyo agomba kwigisha abanyeshuri be kandi, bagatsinda isomo rye. Adakoresheje gusa ibikoresho ahabwa na Leta, ahubwo ashobora no kwifashisha ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu cyumba aho bigira harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'abanyeshuri baje ku ishuri, aho baje gufata amasomo bategurirwa n'umwarimu wabo. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu.

Muri gahunda za Leta harimo no kugaburira abana ku mashuri batiriwe bataha saa sita ngo bajye mu rugo bitewe n'uko byabavunaga, kubera ko harimo nk'ababaga bataha kure bityo bikabavuna, ibyo rero byatumye abana biga neza.

Itsinda ry'abana bakoze uruziga bari gukina imikino itandukanye, harimo abambaye impuzankano y'ishuri ndetse n'abambaye imyenda isanzwe irimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, inyuma yabo hahagaze umugabo uri kureba imikino anabafasha gukinana na bo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabo iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse na kake, bari ku bikinisho byabo bubakiwe n'ikigo kugira ngo igihe cyo gukina bajye babikiniraho bityo baruhuke mu mutwe.

Icyapa kinini kandi kirekire gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umutuku, iki cyapa kandi hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe abana bicaraho, iki cyumba kandi cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse imbere hari ikibaho gifite ibara ry'icyatsi.

Nyuma y'uko Leta ishyizeho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, byatanze umusaruro ufatika, ugaragarira amaso kuko abanyeshuri basigaye biga neza nta gihunga kandi bagatsinda.

Muri gahunda za Leta harimo no kugaburira abana saa sita ku mashuri, batiriwe bajya kurya iwabo mu rugo kuko mbere wasangaga bibavuna harimo nk'ababaga bataha kure, ugasanga ntibakurikirana amasomo yabo neza ya nyuma ya saa sita.

Imfashanyigisho abana bigiraho si ngombwa ngo zibe ari ibitabo gusa bitangwa na Leta. Ahubwo umwarimu w'umuhanga afata umufuka akawuca agashushanyaho ibikoresho bitandukanye bigiraho bityo abana bakajya babireba bakibuka amazina yabyo nuko bikoreshwa.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru na kaki, ari ku igare aho aryifashisha agera ku ishuri bitamugoye, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru na kake, aho bicaye mu busitani bw'ikigo babwirwa uko bakwiye kwitwara neza nk'uko amategeko y'ikigo abiteganya.

Abana bambaye imipira y'umweru ndetse n'imishanana hasi n'amayugi, barimo barabyina imbyino gakondo, babyinira abanyeshuri bagenzi babo ndetse n'abashyitsi babasuye ku munsi mukuru w'abana.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye impuzankano y'ishuri, yiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu, bari kwerekeza ku ishuri mu gitondo cya kare, aho bagiye gufata amasomo yabo ya buri munsi.

Icyumba bigiramo kirimo ibikoresho bitandukanye bya mwarimu nk'ibitabo, ingwa n'ibindi. Hakaba harimo kandi n'intebe abanyeshuri bicaraho, ibitabo byagenewe abanyeshuri, ikibaho bandikaho, ndetse n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri kwagura mu mutwe.

Imodoka ziri ku murongo zishoreranye, aho ziri kwerekeza ku bigo by'amashuri ahari abana, izi modoka ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, zikaba ziri kugenda mu muhanda w'amapave.

Abana bambaye imyenda ya siporo barimo barakina umukino w'amaboko uzwi nka Volley, bari mu kibuga gishashemo amatafari gikikijwe n'amashuri.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru na kake, aho bitabiriye umukino w'amaboko uzwi nka Basketball, barimo barafana ikipe yabo kugira ngo itsinde.

Imodoka ziri ku murongo z'amakwasiteri ziteye irangi ry'umuhondo, ni imodoka zitwara abanyeshuri zibajyana ku bigo aho bigira bitabagoye.

Icyumba cy'abarimu aho harimo umwe urimo gukosora impapuro z'abana nyuma yuko abahaye isuzumabumenyi, akaba ari kureba ibyo bakoze abaha amanota.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabo yiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu, bari kwerekeza ku ishuri aho bagiye gufata amasomo yabo ya buri munsi, bageze ku irembo ry'ishuri aho bategereje kwinjira.

Inyubako ndende igeretse iteye irangi ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, ifite amadirishya manini y'ibirahuri, iruhande rwayo hari ikigega gifata amazi y'imvura, kandi mu mbuga yayo hari ubusitani.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya manini n'inzugi zifite ibara rya kake. Imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bunini buteyemo ibyatsi bya pasiparume. Ubwo busitani kandi, buzengurutswe n'indabyo.

Inyubako yagenewe kwigirwamo, ifite amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani bunini bwiza cyane ndetse hateyemo nk'idarapo ry'u Rwanda.

Icyapa giteye ku muhanda gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iki cyapa kandi kigaragaza ahantu hari ikigo cy'amashuri cya segonderi, hirya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri cyiza cyane gifite amabati y'ubururu, gifite kandi urugi rw'amarembo runini cyane rufite ibara rijya gusa n'ivu n'irindi ry'umweru. Iki kigo cy'amashuri gifite umuhanda munini w'igitaka werekerayo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye igeretse kabiri, iteye irangi ry'umuhondo, iyo nyubako ifite igishushanyo kiriho abana babiri bahuje ibiganza, imbere y'iyo nyubako kandi hari ubusitani.

Nyuma yuko abana basuwe n'umuyobozi akabagira inama z'uko bakwiye kwitwara, haba mu ishuri ndetse no hanze y'ishuri, byatumye bumva bishimye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru na kake, bahagaze ku ntebe barimo barakora amasuku bahanagura ibirahure biri ku ishuri bigiraho.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'umukara, bamwe barahagaze, abandi baricaye, aho basa nk'aho bitabiriye umuhango runaka.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, akaba ahagaze hagati y'abanyeshuri, aho yabatumije ngo abaganirize ku byerekeye uko bagomba kwitwara, haba mu ishuri ndetse no hanze y'ishuri, birinda imico mibi.

Amashuri yo kwigiramo yegeranye. Yubakishijwe amatafari ahiye, ateye irangi ry'umweru, kandi afite amabati ndetse n'inzugi z'ubururu. Imbere y'ayo mashuri hari indabo.

Muri gahunda za leta harimo no gukoresha ibinyabiziga mu kugeza abana ku ishuri, ibi bituma batavunika kandi bakagera ku ishuri bameze neza, bagakurikirana n'amasomo yabo biboroheye.

Umuhanda wa kaburimbo, witegeye. Ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru. Uwo muhanda harimo imodoka y'ikamyo iri kuwugendamo. Kandi harimo abana bambaye impuzankano y'ishuri bari kwambuka uwo muhanda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabo yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bicaye ahari gukorerwa inama, aho basuwe n'abayobozi ku rwego rw'igihugu, barimo kubaganiriza uko bakwiye kwitwara.

Amarembo afite urugi ruri mu ibara ry'icyatsi, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo ''Ikigo cy'Amashuri cya Sogonderi cya Mukinga''.

Icyapa gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye nk'umutuku, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba kiranga ahari urusengero rw'abasenga ku munsi wa karindwi.

Umugabo ushinzwe umutekano, wambaye imyenda ya gipolisi, arimo araganiriza abanyeshuri. Ababwira uko bagomba kwitwara, igihe cyose bari ku ishuri ndetse no hanze y'ishuri. Ababuza kwishora mu ngeso mbi zo gukoresha ibiyobyabwenge.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'irya kaki, bicaye mu rusengero aho barimo gusenga, imbere hari mugenzi wabo urimo arabigisha ijambo ry'Imana.

Leta yashyizeho gahunda yo kugaburira abana saa sita mu gihe kera iyo bamaraga kwiga, bahitaga bihuta bakajya mu rugo, bakarya, bakagaruka ku ishuri bityo ugasanga bibatera umunaniro bigatuma batiga neza amasaha ya nyuma ya saa sita.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku murongo biganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabo, ababyeyi ndetse n'abandi, inyuma yabo hari inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iteye irange hejuru, ikaba yanditseho n'amagambo agaragaza kirazira ndetse n'indangagaciro bakurikiza.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari urugo ndetse n'ubusitani bwegereye umuhanda, hirya hari umunyonzi uri ku igare.

Inzu yitegeye yubatse neza ku murambararo, ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara, imbere yayo haparitse imodoka ya Toyota y'umweru, kandi iruhande rw'iyo modoka hari ubusitani.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ziganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, barimo barerekeza ku ishuri mu masaha ya mu gitondo, bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Abantu bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka Volley bari mu kibuga, hirya hari abandi bantu benshi bari kureba umukino wabo babafana.

Muri gahunda za Leta harimo no gutwara abana babavana ku bigo byabo baberekeza iwabo mu ngo mu gihe barangije amasomo yabo bashoje umwaka cyangwa se igihembwe.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri cya Gatagara iteye irangi ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kandi ku bikuta bikikije umuryango hariho amagambo agaragaza indangagaciro ndetse na kirazira zigenga abanyeshuri bahiga.

Ikigo cy'amashuri ubona ko gikuze kuko gifite amabati yashaje yajeho umugese. Hagati y'aya mashuri harimo ikibuga giteyemo pasiparume ndetse n'indabyo.

Muri gahunda za Leta harimo no kugaburira abana saa sita ku mashuri batiriwe bataha saa sita bajya mu rugo, ibi byatumaga bagaruka ku ishuri bananiwe kandi bikanatuma batiga neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe zicarwaho n'abanyeshuri ubona ko ari gishyashya, gifite amadirishya y'imbaho, ni byiza rero ko hubakwa ibyumba by'amashuri byinshi kugira ngo abana b'u Rwanda babone aho bigira.

Nyuma yuko abanyeshuri basuwe n'abayobozi baturutse ku rwego rw'Igihugu, bahaye umwanya umwe mu banyeshuri maze abasobanurira uko biga ndetse n'ibyo bakeneye kugira ngo amasomo yabo agende neza.

Abana bari mu ishuri aho bakurikiye mwarimu, arimo arabaha amasomo atandukanye. Ndetse anabagira inama z'uko bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi. Haba ubuzima bwo ku ishuri ndetse n'ubwo hanze y'ishuri.

Inyubako igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye. Iteye amarangi atandukanye, arimo ay'umweru ndetse n'ubururu. Imbere yayo hahagaze umugabo uri kuri telefone. Bigaragara ko iyi nyubako ari ishuri.

Umupolisi w'u Rwanda, yaje gusura abanyeshuri aho ari kubagira inama z'uko bakwiye kwitwara haba ku ishuri ndetse no hanze y'ishuri, arimo arabagira inama zo kudakoresha ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, kandi bari mu ishuri. Aho bari kumwe n'umwarimu urimo urabigisha amasomo atandukanye, kandi anabagira inama icyarimwe z'uko bakwiye kwitwara, haba hano ku ishuri ndetse no hanze y'ishuri.

Abana bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu n'umukara, barimo barerekeza ku ishuri mu masaha ya mugitondo, aho bagiye gufata amasomo yabo ya buri munsi, bari kugendera mu muhanda wamabuye, ukikijwe n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi.

Itsinda ry'abantu bahagaze iruhande rw'umuryango ufite ibara ry'icyatsi, aba bantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu, umukara kandi harimo n'uwambaye imyenda y'igitenge, imbere yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuntu ushinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda wambaye imyenda ya gipolisi, arimo araganiriza abanyeshuri aho ari kubabwira uko bagomba kwitwara mu buzima bwa buri munsi birinda gukora ibyaha nko kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bishobora no kubicira ubuzima.

Abantu benshi bicaye mu itente abandi bahagaze k'uruhande barimo baritegereza umukino w'amaboko uzwi nka basketball, aho hari umukinnyi wazamutse wambaye imyenda y'icyatsi agashyira umupira ahabugenewe.

Abana bari mu ishuri aho barimo barakora ikizamini cya Leta gisoza amashuri yisumbuye, bicaye buri wese ku ntebe kandi umwe inyuma y'undi, bahagarariwe n'umugabo wambaye kositimu y'umukara.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, aho barimo barakina bidagadura baruhuka mu mutwe, nyuma yo gufata amasomo menshi. Ibi rero bituma bamera neza bakagaruka mu ishuri batuje.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, yiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kaki, harimo n'abambaye imipira y'ishuri, bari ku murongo aho barimo baratozwa uko intore zikwiye kwitwara.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, aho usanga ziba ziparitse muri gare, maze Abanyarwanda bakaza aho ziri bagatega bakajya mu bice bitandukanye baba bifuza kugeramo.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'imyitero, aho bari kumwe n'abashinzwe umutekano barimo umupolisi ndetse n'umusirikare baje kwifatanya na bo mu birori.

Ikigo cy'amashuri gifite inzu zigeretse zifite amabati y'icyatsi, izo nzu kandi zifite ubusitani bunini imbere, kandi zifite n'urugo rw'ibyuma ruriho n'amatafari ahiye.

Itsinda ry'abanyeshuri bashyizwe hamwe bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kaki, aho barimo baraganirizwa n'abarezi babo, babagira inama z'uko bagomba kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cyigirwamo kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe zicarwaho n'abanyeshuri, ibitabo, utubati ingwa n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga amasomo.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru na kaki, bari kumwe n'abarezi babo, aho barimo barabasobanurira uburyo bakwiye gukomeza kwitwara, birinda imico mibi ndetse n'imyitwarire idakwiye.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na kake, bari ku ishuri aho bari gukora uturimo dutandukanye two gusukura aho bigira, kugira ngo bigire ahantu heza hafite isuku.

Abana bicaye mu ishuri aho bakurikiye amasomo, umwarimu uri kubigisha arimo arabasobanurira neza kandi anabagira inama, aba bana bicaye ku ntebe z'imbaho kandi bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara ry'umweru na kake, harimo n'abambaye udupira tw'ubururu, basuwe aho bari kuganirizwa ku bijyanye n'imyororokere, bagirwa inama zo kwitwara neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabo ifite ibara ry'ubururu ndetse na kake, bicaye inyuma y'ishuri ryabo, aho barimo baraganirizwa n'umurezi, abagira inama z'uko bagomba gukomeza kwitwara neza birinda imico mibi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'irya kaki ariko harimo n'abambaye imipira y'ishuri isa icyatsi ndetse n'umukara, bakaba bateranyirijwe ahantu hamwe kugira ngo baganire n'umuyobozi wabo.

Abantu benshi bicaye muri salle nini cyane, biganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'umweru ndetse na kake, imbere hari abarezi babo bicaye bityo bakaba bitabiriye inama cyangwa umuhango runaka.

Icyumba cyo kwigiramo giteye irange ry'umuhondo, gifite amadirishya manini y'ibirahure, muri icyo cyumba kandi harimo intebe zo kwicaraho, zigizwe n'intebe imwe ya buri munyeshuri ukwayo.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa, mu gusuzuma ibizami baba bafashe abarwayi kugira ngo barebe indwara zirimo bityo bamenye n'imiti babagenera kugira ngo ibakize.

Abanyeshuri bari mu ishuri ubona ko bakurikiye amasomo umwarimu arimo arabaha, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umweru, umukara, ubururu ndetse na oranje.

Inyubako ndende igeretse iteye amarangi y'umweru, ifite amadirishya manini y'ibirahuri. Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye. Yagenewe ubuturo bw'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda.

Abantu ubona ko bicaye mu ishuri bishimiye kuba bari gukoresha za mudasobwa, ni byiza kumenya gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kuko bigendanye n'igihe tugezemo aho ikoranabuhanga ariryo riri gukora mu bintu byose.

Inyubako iteye irange rya beje, ifite inzugi z'umukara, imbere yayo hari imeza kandi hejuru yayo hari icyapa kigaragaza ko itanga serivisi zitandukanye z'irembo.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka basketball, iki kibuga gikikijwe n'utuzu abantu bari kureba umupira bicaramo dufite ibara ry'umuhondo kandi na none gikikijwe n'amashyamba.

Abaganga bambaye amataburiya y'imyeru, aho bari mu cyumba cyabo bari gukoresha icyuma kizwi nka microscopy, kifashishwa mu kureba mikorobe ntoya cyane zitaboneshwa amaso, ibi ni byiza kuko bibafasha gutuma bashaka imiti izica.

Inyubako iteye irangi rya beje n'irindi risa nki'vu igeretse kabiri kandi imbere yayo hejuru hari icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo kaminuza y'uRwanda.

Akayira k'amapave gakikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'indabo nziza. Harimo umugabo uri gusunika undi muntu wicaye mu kagare. Ibi rero bigaragaza ko n'abafite ubumuga baba bakwiye serivisi zitandukanye zikenerwa n'undi muntu uwo ari we wese.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi rya beje kandi ifite amadirishya asa umweru, iyo nyubako ikikijwe n'amashyamba kandi ifite ubusitani ndetse mu mbuga yayo hari amapave.

Inyubako igeretse kabiri, iteye irange ry'umweru ndetse n'irijya gusa nk'ivu, imbere yayo hari ubusitani bunini cyane buteyemo pasiparumu ndetse n'ibiti bitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu bihande bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, umukara n'umweru, bitabiriye igitaramo cyo kwerekana ibikorwa by'ubugeni.

Icyumba kigari kirimo sima ndetse gifite na parafo z'umweru, kirimo kandi intebe zo kwicaraho zisa icyatsi ndetse n'izindi z'imifariso, muri icyo cyumba kandi harimo abantu bicaye muri izo ntebe.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, haba ibyifashishwa n'abanyeshuri ndetse na mwarimu, harimo intebe zo kwicaraho, ameza, harimo ibikoresho byifashishwa mu bugenge ndetse no mu buvuzi.

Isomero rinini ririmo utubati twinshi tw'ibyuma dufite ibara ry'umuhondo. Turimo ibitabo byinshi bigerekeranye, aha ni ho abanyeshuri baza gusomera iyo bafite imikoro itandukanye cyangwa bari gushakisha amakuru ku masomo yabo.

Inyubako nini cyane, isakaje amabati y'umutuku kandi hariho antene ya tereviziyo, iyo nyubako iriho icyapa imbere kigaragazako hari resitora cyangwa se uburiro umuntu ashobora kujya bakaba bamuha icyo kurya.

Itsinda ry'abantu bitabiriye inama bari mu cyumba giteye irange ry'umweru kandi harimo abayobozi babiri bicaye imbere mu ntebe z'imikara, imbere y'abo bayobozi hari imeza nini iriho igitambaro cy'ubururu kandi hateretseho n'uducupa tw'amazi na telefone n'ibindi bikoresho.

Imodoka isa umukara iri guturuka ahagana mu ishyamba, aho umusekerite agiye kuyikuriraho bariyeri kugira ngo igende, hirya y'iyo modoka kandi hari akazu gateye irangi rya beje gafite ibirahure ndetse n'ibyuma by'umukara.

Inyubako igeretse kabiri iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya arimo ibirahure kandi na yo afite ibara ry'umukara, inyuma y'iyo nyubako hari ubusitani bunini.

Abantu bambaye amajire y'icyatsi, ingofero z'umweru n'uturindantoki, aho barimo barubaka, bakoresheje amatafari, sima n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bwubatsi.

Umugore wambaye agapira ka beje n'ikanzu y'umukara urimo uragenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari inyubako iteye irangi ry'umweru n'iry'umuhondo isakaje amabati y'umutuku.

Icyumba cy'uburyamo giteye irangi ry'umweru ku bikuta. Harimo igitanda kigeretse kabiri, aho kiriho matela zishasheho amashuka, ari mu mabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru.

Icyumba giteye irangi ry'umuhondo, harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ameza, hano akaba ari ahantu bigira, kuko hirya ku gikuta hari n'urubaho bandikaho.

Icyumba cy'uburyamo kirimo matela ebyiri zishashe neza ndetse n'imisego, harimo kandi akabati gafite ibara rya shokora karimo inkweto, hejuru yako hariho utubido tw'amazi yo kunywa.

Icyapa kinini gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, avuga ngo ni Kaminuza ya Katorike mu Rwanda, kiriho kandi ikirangantego kiriho amabara y'umuhondo.

Umuhanda wubakishije amabuye urimo umugabo wambaye Isarubeti y'icyatsi harimo kandi na moto iparitse ku ruhande, sibyo gusa kuko ku ruhande rw'umuhanda hari n'ubusitani ndetse n'ikigo cy'amashuri.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kiriho ibirango bitandukanye. Hariho ikirango kiranga kaminuza y'u Rwanda, hariho n'ibindi ndetse hariho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kimanitse ku gikuta, kiriho ikirangantego kiranga Kaminuza y'u Rwanda, icyo cyapa kandi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza ko ahantu kiri hari ishuri ryo kwigiramo.

Inyubako zisa kandi zegeranye zigeretse. Ziteye amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo ahagana ku mitambiko yayo. Izo nzu zisakaje amabati y'umutuku kandi zikikijwe n'ubusitani bunini.

Inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara. Imbere yabo hari ameza manini ateretseho ibikoresho byabo nka mudasobwa, amakaye ndetse n'uducupa tw'amazi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, igeretse kabiri, ifite amadirishya y'ibirahure, ndetse iteye irangi ry'umweru ahagana ku nkingi zayo, iyo nyubako imbere yayo hari ubusitani bunini buteyemo indabo.

Icyumba cy'uburyamo kirimo ibikoresho bitandukanye nka matera, umusego, super net yo kwirinda imibu, ibikapu ndetse n'ibindi bitandukanye nka sharijeri yifashishwa mu gucaginga telefone.

Itsinda ry'abaganga bambaye amataburiya y'imyeru, barimo barareba mu cyuma cyitwa microscope, cyifashishwa mu kureba utuntu dutoya cyane tutaboneshwa amaso, iki cyuma bagikoresha bashaka kureba mikorobe ntoya cyane zakangiza ubuzima bw'abantu.

Icyumba mberabyombi kirimo intebe nziza cyane zikurikiranye kandi ku bikuta hari imbaho zisa neza ndetse iki cyumba gifite na parafo nziza cyane n'amatara yaka ibara ry'umweru.

Muri iki gihe kumenya gukoresha ikoranabuhanga ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kuri buri muntu wese, kuko kuri ubu ikoranabuhanga risigaye rikora ahantu henshi cyane, haba mu buhinzi, mu burezi ndetse n'ahandi hose.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye. Iki kikaba ari icyapa kiranga aho Kaminuza y'u Rwanda iba muri Huye iherereye.

Icyapa cy'ubururu giteye mu busitani iruhande rwacyo hari umuhanda wa kaburimbo, icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza aho kaminuza y'u Rwanda iri.

Icyumba cyo kwigiramo giteye irange ry'umweru ku bikuta, kandi imbere hari n'ikibaho cyo kwandikaho, harimo umuntu ufite mudasobwa uri kwiga, kandi muri iki cyumba harimo n'intebe zo kwicaraho.

Abantu babiri bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara, uwo hirya afite umweyo aho arimo arakubura mu ndabo akora amasuka kugira ngo ahantu hase neza, hakurya hari inzu ndende ziteye amarange y'umuhondo n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nka microscopy, imashini ndetse na kandagira ukarabe. Byifashishwa igihe umuganga ari mu kazi ke. Hari kandi akabati kanini karimo ibikoresho yifashisha.

Icyumba cy'uburyamo kirimo umugore wambaye agakanzu k'umweru, inyuma ye hari irido rikingirije idirishya kandi muri icyo cyumba harimo ibitanda bigerekeranye, biriho ibitenge ndetse n'ikiringiti cyo kwiyorosa.

Inyubako igeretse kabiri, iteye irangi ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa nk'ivu rizengurutse ku mabaraza yayo, iyo nzu imbere yayo hari ubusitani bunini cyane, burimo ibyatsi bya pasiparumu ndetse n'ibiti.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa mu kuvura abarwayi. Giteye irangi ry'umweru. Kirimo utubati dusa umweru n'udufite ibara rya shokora.

Icyumba cy'uburyamo giteye irangi ry'umweru ku bikuta, kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, iki cyumba kandi kirimo akabati kariho utubido, inkweto n'ibindi.

Icyumba cy'uburyamo kirimo ibitanda bibiri biteganye, ibyo bitanda biriho matela, hirya hari utubati tubiri duhagaze dufunguye tubikwamo imyenda n'ibindi bikoresho.

Icyumba gifite ibikuta biteye irangi ry'umweru kirimo imeza nini ndetse n'intebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, icyo cyumba kandi gifite idirishya rinini ndetse n'irido.

Inyubako zegeranye ziteye irangi rya beje, zisakaje amabati y'umutuku, izo nyubako kandi zifite amadirishya n'inzugi bisa umukara, imbere yazo hari ubusitani ndetse n'inzira y'amapave.

Abantu bicaye mu ihema. Aho barimo barakoresha ikoranabuhanga batanga serivisi zitandukanye ku baturage, by'umwihariko abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda. Aho barimo babafasha kwiyandikisha kugirango batangire amasomo yabo.

Abantu baje mu nama, bambaye imyenda irimo amabara nk'umutuku, umukara n'umweru, bicaye mu ntebe z'imikara imbere yabo hari ameza manini ateretseho ibikoresho byabo nka mudasoka n'ibindi, bari gukorera ku byuma by'ikoranabuhanga bituma itumanaho ryihuta.